Abagabo batandatu bambaye amapingu, bigaragara ko bakoze ibyaha, bagiye gufungwa.

Inteko yitabiriwe ku kigero gishimishije. Igizwe n'abagabo n'abagore bicaye. Imbere yabo hari umugabo w'umupolisi urimo kubagezaho ibijyanye n'umutekano.

Kamera ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu kurinda umutekano wibintu cyangwa w'abantu, aho idufasha gukora umutekano mu buryo bworoshye.

kamera ni kimwe mu bikoresho bidufasha kurinda umutekano usesuye kandi wizewe, mu gihe uyikoresheje amenyera amakuru ku gihe.

Inyubako yubatswe kijyambere, harimo abaturage bicaye, bari kumwe n'abayobozi, bari kubakemurira ibibazo bitandukanye.

Inama yitabiriwe n'abayobozi benshi batandukanye, harimo abagabo n'abagore, barimo kuganira ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'umutekano.

Imodoka nini, isize amarangi y'ubururu, ubona ko ari iya porisi, ku ruhande hari urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, bambaye ingofero z'umukara, n'imyenda y'umukara, ubona ko biteguye gucunga umutekano.

Imbwa ishinzwe gusaka， irigushaka mu ivarisi ibyo bayitumye， ngo ibishyikirize ba nyirabyo.

Imodoka ni imwe mu binyabiziga bidufasha gutwara ibintu n'abantu mu buryo bwihuse, kandi vuba.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu iriho idarapo ry'u Rwanda, n'inyenyeri zitandukanye ubona ko ari umuyobozi ushinzwe umutekano.

Uruzi rugari kandi runini, rurimo ubwato bubiri bwicayemo urubyiruko. Rwiganjemo abasore n'inkumi, ubona ko bishimiye kuba baburimo.

Imodoka ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu gihe tugiye ku rugendo rwa kure. Itwara abantu n'ibintu mu buryo bwihuse kandi vuba.

Abaturage bicaye bari kumwe n'abayobozi, ubona ko bitabiriye inama ari benshi, kandi iyo nama ibafitiye akamaro kuko ibungura ibitekerezo.

Inteko y'abaturage, yitabiriwe n'abantu benshi harimo:abagabo n'abagore, aho umuyobozi ari kubabwira iby'imibereho myiza.

Inteko y'ababaturage yitabiriwe n'abagabo n'abagore, bamwe bicaye mu matente, abandi bahagaze batonze umurongo, ubona ko bari kuvuga ku bibazo bafite.

Inama yitabiriwe n'abayobozi b'ingeri zose, barimo kuganirizwa ku bijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, ndetse n'umutekano wabo.

Inteko y'abaturage yiganjemo igitsina gabo, bicaye ku ntebe barimo kungurana ibitekerezo n'umuyobozi wabo.

Inteko y' abaturage irimo abagabo nabagore bicaye mu itente barimo kubwirwa ibijyanye n'umutekano.

Urusoro ni kimwe mu mikino abakera bakundaga gukina, mu gihe babaga barimo kuganira.

Inyubako yubatswe gakondo, isakaje ibyatsi, iriho ibigori ku ruhande hari imitiba bahunikagamo imyaka.

Ibiribwa abakera bakunda kurya urugero, umutsima w'ibigori, umutsima w'amasaka, impungure, ibirayi bitogosheje n'ibijumba bitogosheje ndetse ni ibigori.

Umwuko uri hejuru y'isafuriya, ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu guteka ibiryo.

Inkangara ni kimwe mu bikoresho bya gakondo, byifashishwa mu muco wo gutanga umugeni n'ibirongoranwa.

Inyambo ni zimwe mu nka za kera zitanga umusaruro ushimishije, mu gihe zitaweho bihagije. Urugero nko kunywa amazi n'ibindi byinshi.

Ibikoresho bya gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda bo hambere, urugero ibiseke, ibicuma, imiheha, n'ibindi byinshi.

Imbyino za gakondo ,ni zimwe mu mbyino abantu bakunda mu gihe habaye ibirori, abagabo n'abasore bambaye imyenda.

Ibibindi ni bimwe mu bikoresho，aba kera bifashishaga mu gukora imirimo itandukanye， urugero： Kuvoma， kwenga， n'ibindi byinshi.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho bya gakondo, twifashisha mu gutegura amafunguro ya buri munsi, aho tuyikoresha turi gusekura isombe.

Inyubako yubatswe kijyambere itatswe n'imitako ya gakondo, hariho abagabo bambaye imyenda ya gakondo, bafite n'inkoni y'umuco, ubona ko bagiye gusaba umugeni.

Igihingwa cy'isogi, ni kimwe mu mboga zakoreshwaga n'abakera, aho zifashishwaga mu muti.

Isuka ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu buzima bwa buri munsi, aho tuyikoresha duhinga ibidutunga.

Ibiseke ni bimwe mu bikoresho bigize umuco nyarwanda, aho tubitaka mu nzu, cyangwa tukabikoresha mu mirimo itandukanye.

Umumama upfukamye, wambaye imyenda ya gakondo urimo gusya ifu akoresheje igikoresho cya gakondo kitwa urusyo.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho abakera bifashishaga mu gutegura amafunguro ya bo ya buri munsi.

Ibikoresho bya gakondo，ni bimwe mu bikoresho aba kera bifashishaga，mu gukora imirimo itandukanye， harimo ibikoresho，urugero： Ibyungo byatekaga，isekuru yasekuraga...

Ibirago ni kimwe mu bikoresho bya gakondo, byifashishwaga cyangwa byifashishwa mu gukora imirimo itandukanye. Urugero: nko kuryamaho, cyangwa kwicaraho.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye urugero nk'ibirago, ni bimwe mu bikoresho aba gakondo bifashishaga mu kwicaraho cyangwa mu kuryamaho.

Ni itorero ry'umuco ryambaye gakondo. Rigizwe n'urubyiruko rw'sbasore n'abakobwa bigaragara ko baje gushimisha ababareba.

Ikirago ni kimwe mu bikoresho bya gakondo abantu bakoresha mu buzima bwa buri munsi, aho bibafasha kwicara ahantu heza cyangwa bakabisasa.

Igiseke ni igikoresho cyiza, kidufasha gutwara imyaka tugiye gusura abantu kure cyangwa hafi.

Igisabo ni igikoresho cyifashishwaga mu gucunda amata mu gihe bagiye gushaka ikivuguto cyo kunywa.

Inyubako yubatswe kijyambere ikorerwamo ibijyanye n'umuco wa gakondo, aho umusaza n'umusore barimo gukina urusoro.

Itorero ry'urubyiruko rigizwe n'abasore n'inkumi. Inyuma yaho hubatse inzu ya gakondo bigaragara ko bari gushimisha abaturage bari kubareba.

Itorero ry'igihugu ni rimwe mu ntore zibyina ibya gakondo, aho bamanitse amacumu bari kumwe n'abazungu babiri, umugabo n'umugore.

Isekuru ni kimwe mu bikoresho byifashishwaga n'abakera, mu gushaka ibiribwa bitandukanye.

Imbyino gakondo ni zimwe mu mbyino abanyarwanda dukunda gukoresha mu gihe dufite ikirori, urugero: ubukwe.

Isekuru ni bimwe mu bikoresho bya gakondo， byifashishwaga mu gushaka ifu， urugero ubugari， amasaka n'ibindi byinshi.

Inyubako, zisakaje ibyatsi, ni zimwe mu nzu zubakwaga n'abakera.

Inka bita inyambo bakunda kuvuga ko igira amata aryoshye, ikamirwa abami ba kera.

Itorero ry'umuco nyarwanda ni rimwe mu itorero twifashisha mu gihe twakoze ibirori. Urugero ubukwe, n'ibindi byinshi.

Abagabo n'abagore, barimo kuririmba imbyino z'umuco, abandi barimo gukoma ingoma, ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu kubyina imbyino z'umuco zitandukanye.

Icyungo ni kimwe mu bikoresho bya gakondo bifashishaga mu guteka ibiryo bitandukanye, urugero nk'inyama.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda ya gakondo, barimo gukoma ingoma, bakoresheje imirishyo.

Ingoma n'imirishyo ni kimwe mu bikoresho by'umuco wa gakondo, twifashishaga mu gukora imbyino zitandukanye.

Amatungo maremare bita inyambo ni zimwe mu nka aba kera bakundaga korora kuko zatangaga umukamo uhagije.

Ibikoresho bya gakondo byifashishwaga n'abanyarwanda ba kera, mu gihe byakoreshwaga mu bukwe cyangwa mu misango harimo: ibicuma, imiheha, ibibindi n'ibindi byinshi.

Inyambo ni zimwe mu nka za gakondo, zatangaga umukamo uhagije aho abakera bazikundaga kuko ari inyarwanda.

Umutegarugori wicaye impande y'igisabo. Ni kimwe mu bikoresho abakera bifashisha mu gushaka amavuta cyangwa ikivuguto.

Amamera ni kimwe mu bihingwa byifashishwa mu gutunganya ibisembuye n'ibidasembuye, harimo ubushera, ikigage.

Terefone ya simatifone iteretse ku meza ya kijyambere yambaye posheti y'ibara ry'umutuku ubona ko harimo pasuwadi.

Inyubako ishaje，ubona ko ari iya kera， yatangirwagamo serivisi z’umutekano za porisi.

Ni inyubako igezweho yubatswe kijyambere ikorerwamo serivisi z'ubuyobozi aho abaturage baza gusaba serivisi zijyanye n'ibyifuzo byabo.

Urusengero runini, rugari, rwubatswe kijyambere, rukikijwe n'abagore n'abagabo ubona ko bari gusengera hanze yarwo.

Ikiraro cyubatswe kijyambere, aho abantu bakinnyuramo bishimye bagiye mu ngendo zitandukanye kwiteza imbere.

Urusengero rwubatswe kijyambere，rurimo amashusho atandukanye，aho bikiramariya ahagaze， akikijwe n'indabo nziza zishimishije.

Abagabo n'abagore bakenyeye imikenyero ,bafite ibitabo barimo kuririmba ubona ko ari korari.

Inyubako nini kandi igezweho yubatswe kijyambere, ifite intebe zigezweho za kijyambere, ikorerwamo umurimo wo gusenga.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ifite inzugi zisize amarangi y'ubururu ikoreshwa mu buryo bw'umwiherero bwo kwihagarika.

Urusengero runini rwubatswe kijyambere, rukikijwe n'abantu, harimo abagabo n'abagore n'abapadiri bambaye imyenda y'umweru.

Inyubako zigezweho zubatswe kijyambere ziganjemo amazu maremare, nzisize amarange atandukanye, zifite imihanda igezweho ya kijyambere aho hatangirwa serivisi za Leta.

Amashuri agezweho yubatswe kijyambere atangirwamo ubumenyi, n'ikoranabuhanga aho ku ruhande hahagaze abagabo n'abagore ubona ko ari abayobozi.

Inyubako yubatswe kijyambere itangirwamo serivisi z'incuke, aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi bwinshi.

Inyubako yubatswe kijyambere, itangirwamo serivisi zijyanye n'amashanyarazi, ituye hafi y'umuhanda, aho abaturage ubafasha kugerayo mu buryo bworoshye.

Inyubako nini yubatswe kijyambere. K.u ruhande hariho abagabo n' abagore bahagaze ubona ko ikorerwamo imirimo yo gusenga.

Inyubako zubatswe kijyambere, zishobora kuba zikorerwamo ubucuruzi cyangwa zikorerwamo inganda.

Inyubako yubatswe kijyambere isarurirwamo imyaka itandukanye ,aho bamaze guhura ingano ubona ko hasigaye ibishogoshogo gusa.

Inyubako zubatswe kijyambere zishakaje amabati agezweho. Zifite umuhanda wubatswe kijyambere, zikorerwamo inama zitandukanye.

Ikiraro cyubatswe kijyambere kinyurwamo n'ingeri zitandukanye, urugero: abagabo, abagore, abakecuru, abana, bishimiye kunyura ahantu heza.

Isoko ryuzuye vuba ryubatswe kijyambere, risakaje amabati ya kijyambere rizacururizwamo ibicuruzwa bitandukanye.

Amashuri yubatswe kijyambere, ashakaje amabati agezweho y'ubururu, itangirwamo serivisi zijyanye n'ubumenyi.

Ni kiliziya yubatswe kijyambere, isakaje amabati agezweho, aho ubona ko ari nini. Abaturage baza gusengeramo.

Umuhanda wubatse kijyambere bigaragara ko uri kugendamo ikinyabiziga cya moto kuruhande hari amatara hepfo hari ibiti ruguru hari umusozi uriho ibiti.

Urusengero rwubatswe kijyambere rusakajwe amabati agezweho y'ubururu. Rukikijwe n'abagabo n'abagore n'abana. Bahagaze ubona ko biteguye kwinjira mu rusengero.

Ikiraro cyubatswe kijyambere, gikoreshwa n'abantu batuye ahantu hari imihanda icukutse nk'urugero ahantu hanyura amazi, niho hakunda kubakwa ikiraro.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, isize amarangi y'umuhondo bita urusengero. Ni rumwe mu mazu twifashisha mu gusenga Imana.

Inyubako yubatswe kijyambere itangirwamo serivisi za Leta zitandukanye, aho umuturage abagana bakamuha serivisi akeneye.

Ikiraro cyubatswe kijyambere gikoreshwa na abantu batandukanye, aho gikenerwa kunyurwamo mubuzima bwa buri munsi.

Amashuri yubatswe kijyambere, asakaje amabati ya kijyambere, asize amarangi y'ubururu . Atangirwamo uburezi buboneye.

Inyubako yubatswe mu buryo bwa kijyambere itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho abarigana bahabwa ubuvuzi buhagije ndetse n'imiti ibakiza.

Inyubako yubatswe kijyambere, ifite porutayi isize amabara y'umuhondo n'icyatsi, ikorerwamo imikurire y'abana.

Inyubako nini yubatswe kijyambere ,ifite inzugi zigezweho ,isize amarangi y'umweru ubona ko bayisengeramo.

Umwuga w'ubwubatsi ni umwe mu myuga idufasha gutura mu mazu meza yubatswe kijyambere, aho abawize biteza imbere mu buryo bw'amafaranga.

Abagabo babiri, n'umugore umwe bari kuganira, ubona ko bahuje ibiganiro, hakurya y'umuhanda hari inyubako yubatswe kijyambere ikorerwamo umurimo wo gusenga.

Ikiraro cyubatswe kijyambere, cyifashishwa n'abaturage mu gukora ingendo zitandukanye.

Urusengero runini, kandi rugari, rwubatswe kijyambere, rukorerwamo serivisi zijyanye no gusenga.

Abanyeshuri batatu bari iruhande rw'inyubako yubatswe kijyambere, itangirwamo serivisi za leta zitandukanye.

Inyubako ngali yubatswe kijyambere isakajwe amabati agezweho, ifite parikingi ngari, my iparitsemo imodoka, hariho sikariye zigezweho ubona ko bayisengeramo.

Inteko y'abaturage yitabiriwe n'abantu benshi: abagabo n'abagore ndetse n'abana, bari kumwe n'umuyobozi uri kubagezaho inama.

Inteko y'abaturage yitabiriwe ku kigero gishimishije, harimo abagabo n'abagore ,ndetse n'umuyobozi urimo kubagezaho inama.

Inteko y'abaturage yitabiriwe ku kigero gishimishije, harimo abagabo n'abagore bari kumwe n'umuyobozi uri kubagezaho ubutumwa bwamuzanye.

Abaturage bicaye bateze amatwi umuyobozi, aho ari kubaganiriza kubijyanye n'imibereho.

Inteko y'abaturage yitabiriwe ku kigero gishimishije, irimo abagabo n'abagore, bicaye mu ducaca abandi bahagaze, bari kumwe n'umuyobozi w'umudamu urimo kubagezaho ibijyanye n'imibereho myiza y'abaturage.

Inama yitabiriwe n'abaturage benshi harimo abagabo n'abagore bicaye mu ducaca, abandi bicaye ku ntebe, ubona ko bateze umuyobozi amatwi.

Inteko y'abaturage yitabiriwe ku kigero gishimishije, aho umuyobozi w'umugabo abahagaze imbere, arimo kubagezaho ibijyanye n'imiyoborere myiza y'abaturage.

Inama y'abaturage igizwe n'abagabo n'abagore, aho abaturage barimo kubaza ibibazo bitandukanye.

Inteko yitabiriwe n'abaturage benshi igizwe n'abagabo n'abagore, bamwe bicaye mu twatsi ,abandi bahagaze, abandi bicaye ku ntebe bateze umuyobozi amatwi.

Ubwato bunini kandi bugari, bwifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, bambuka bava hakurya bajya hakuno muburyo bwo mu mazi.

Imodoka yinjiye muri gare ubona ko yubatswe kijyambere, aho abayigana bahabwa serivisi zishimishije.

Umuhanda wubatswe kijyambere， urimo imodoka ikozwe kijyambere， itwara abantu n'ibintu， ubona ko iri kugenda.

Abaturage batandukanye barimo gutega bisi, ni imodoka idufasha gukora urugendo mu buryo bwihuse.

Imodoka nini ikozwe kijyambere, isize amarangi y'icyatsi n'umweru, ikoreshwa mu gutwara abantu mu ngendo zitandukanye.

Ikinyabiziga kirimo ikoranabuhanga ridufasha gukora ingendo zitandukanye, mu buryo butworoheye kandi ku giciro gike.

Gare ni zimwe mu nyubako zubatswe kijyambere, zikorerwamo ingendo zitandukanye, aho ibinyabiziga bitwara abantu n'ibintu, bakabageza aho bagomba kugera.

Ibimodoka binini bitwara amabuye, imisenyi, biri kumwe n'iyindi bita Katereporari, ubona ko biri gukora umuhanda wasenyutse.

Gare yubatswe kijyambere iparikwamo imodoka zivuye mu ntara zitandukanye, urugero: imodoka zifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu, mu buryo bwiza kandi bwihuse.

Uburyo bwifashishijwe mu gutwara ibintu n'abantu ,aho umugore atahejwe inyuma , nawe abasha kwiteza imbere atwara igare.

Gare yubatswe kijyambere, irimo abantu b'ingeri zose bagiye gutega imodoka zitwara abantu, kugira ngo bihute mu rugendo rwabo.

Ikinyabiziga cy'igare ni kimwe mu bikoresho twifashisha mugutwara abantu n'ibintu, rigatuma ababitwara biteza imbere.

Abagabo n'abagore bahagaze ku kibuga cy'indege, bategereje kwinjira muri Rwandeya, bagakora urugendo rutandukanye.

Umumama winjiye muri bisi igezweho, ikozwe kijyambere, ikoreshwa ikoranabuhanga, aho umuntu akoza ku cyuma ikarita, kugirango akore urugendo.

Inyubako zubatswe kijyambere zikikijwe na gare, yubatswe kijyambere, ikorerwamo urugendo rutandukanye, aho ibinyabiziga bitwara abantu mu ngeri zitandukanye.

Inyubako zubatswe kijyambere zishakaje amabati agezweho ubona ko zikorerwamo ubucuruzi butandukanye aho hafi y'aho hari gare irimo imodoka zigezweho za kijyambere

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo ibintu bitandukanye, aho abaturage bazamo guhahiramo ibintu bitandukanye.

Imodoka itwara abantu ni kimwe mu bikoresho twifashisha mu ngendo zitandukanye, aho abaturage bazigendamo bakora ingendo zabo mu buryo buboroheye.

Ubucuruzi bucururizwa ku muhanda ni bumwe mu bucuruzi budufasha kurya bitworoheye urugero:ubunyobwa, biswi ,bombo, ni bimwe bidufasha kurya vuba.

Umuhanda wubatswe kijyambere urimo imodoka na moto, ni bimwe mu binyabiziga twifashisha mu gukora urugendo vuba.

Uburyo bwo gutwara abantu n'ibintu hifashishijwe amagare, aho ababukora biteza imbere mu buryo buboroheye.

Ubwato bwubatswe kijyambere， bwicayemo abagabo n'abagore， ubona ko bishimye cyane， kuba baburimo.

Ikinyabiziga cyifashishwa mu gukora urugendo rwa kure cyangwa rwa hafi, iyo bibaye ngombwa ko tugitega tukihuta tukagerayo.

Imodoka igezweho ikoreshwa mu gutwara ibintu, urugero; umucanga, amabuye, aho yifashishwa bagiye kubaka amazu cyangwa imihanda.

Umukino w'intoki bita basikete ni umwe mumikino abagore nabagabo bishimiraga iyo barikumwe bahuje amaboko.

Umukino wa tenisI nI umwe mu mikino urubyiruko rwiganjemo abakobwa, abasore. Ni imwe mu mikino bakunda gukoresha bagorora imibiri yabo.

Umukino wa tenisi ni umwe muri siporo abagabo n'abagore bisangamo, mu kunanura imibiri yabo.

Umukino wa basikete ni umwe mumikino ya siporo idufasha kugorora imibiri yacu, ndetse itanga ibyishimo.

Urubyiruko rw'abakobwa n'abahungu, bambaye hejuru umuhondo hasi bambaye ubururu, ubona ko barimo gukora siporo yumukino bita tenisi

Urubyiruko rwiganjemo abasore n'inkumi bambaye imyenda y'ubururu n'icyatsi. Ubona ko bishimiye umukino bagiye gukina. Siporo ni umukino uruhura mu bwonko mu gihe uwukoze yishimye kandi ameze neza.

umukino wo koga ni umwe mu mikino ngororamubiri, wifashishwa n'abagabo n'abagore mu kunanura imibiri yabo.

Urubyiruko rwiganjemo abagabo n' abagore bicaye, bazamuye amadarapo berekanako bishimiye intsinzi ibonetse.

Ikibuga cyubatswe kijyambere，gisize amarange meza， ku ruhande， hari inyubako yubakishijwe amabuye， gikinirwamo umukino wa voriboro.

Urubyiruko rw'abakobwa bambaye imyenda ya siporo, barimo gukina umukino wa vore, ubona ko bishimiye uwo mukino kuko ubafasha kurambura imibiri ya bo.

Abagabo babiri bambaye imipira y'umutuku, n'amapantaro y'umukara, ubona ko ari abasifuzi b'umupira.

Sitade yubatse kijyambere, harimo abantu bicaye bari gukurikirana umupira, aho abatsinze babahaye igikombe bakaba bishimye cyane.

Umupira wo gukina bita balo, ni umwe mu gikoresho twifashisha mu gukora siporo, aho bawukoresha bateresha amaguru cyangwa bagakoresha amaboko.

Inyubako yubatswe kijyambere ikorerwamo siporo, ifite ikibuga kigari bakiniramo umupira wa futo bolo.

Inyubako yubatswe kijyambere， ikorerwamo umukino wa siporo， aho abakinnyi bamwe bambaye umutuku n’ubururu， abandi bambaye umuhondo， bakikijwe n’abafana， ubona ko batanze ibyishimo.

Umukino wa siporo bakunda kwita futuboro ni umwe mu mikino itanga ibyishimo ku bawukina ndetse no ku bafana babo.

Urubyiruko rwiganjemo abakobwa ubona ko batasigajwe inyuma, mu gukora siporo z'ingeri zose zitandukanye.

Picine nini ,kandi ngari yubatswe kijyambere ,ikorerwamo umukino wa siporo wo koga, aho ifite jaride nziza kandi ngari, ishimishije ,iteye ubwuzu.

Inyubako zubatswe kijyambere, zisakaje amabati ya kijyambere, ku muhanda harimo abagabo babiri, umwe ajya iburyo undi ajya ibumoso.